Ni ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, kikaba cyaratangiye mu mwaka w'igihugu kimwe magana kenda mirongo ine n'umunani. Kikaba gifasha abantu batuye isi kugira ubuzima bwiza, kibafasha mu bijyanye n'imiti kuyibonera ku buntu, ndetse n'izindi serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye.

Aha ngaha ni igihe isi yari yugarijwe n'icyorezo cya Kovid cumi n'icyenda, aho umubyeyi yari agiye gukingiza umwana we, yambaye agapfukamunwa kugira ngo ataza kuba yamwanduza icyorezo.

Ni ikigo cy'amashuri, akaba ari abana bari ku ivomero rusange ry'amazi yo kunywa, akaba ari amazi meza asukuye, amazi meza arinda indwara zigiye zitandukanye harimo indwara zikomoka ku mwanda nk'inzoka.

Ni umugabo ari imbere mu nama y'abaturage arimo aratanga amahugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima bw'umuntu, harimo gutanga indyo yuzuye, batera uturima tw'igikoni mu ngo zabo.

Umwana w'umukobwa akaba arimo arakaraba intoki ze, akoresheje amazi meza n'isabune, akaba arimo aririnda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda, uba uri mu biganza by'umuntu.

Ni abamama benshi batandukanye bari ku irerero ry'abana babo, aho abana babo biga byinshi bitandukanye nko gusoma no kwandika, ndetse no kubara imibare, bakabigisha indirimbo zitandukanye zibafungura mu bwonko.

Ikigo gishinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo cyatanze raporo cyerekana uko uburinganire n'ubwuzuzanye bwari buhagaze bibiri na cumi n'umunani byari kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda byari mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri byari mirongo irindwi na gatandatu ku ijana n'aho bibiri na makumyabiri rimwe byari mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, kijyamo indembe, hakaba harimo umwana muto, akaba ari kwitabwaho n'abaganga uw'umugabo ndetse n'umugore, umwana afite ibibazo bijyanye n'iby'ubuzima, harimo n'ikibazo yahuye nacyo cy'imirire mibi, kikaba cyaramuteye bwaki, ndetse no kunanuka bikabije.

Ni umugore yaje kwa muganga yambaye agapfukamunwa ndetse ari kumwe n'abaganga babiri bose bambaye udupfukamunwa, hari mu gihe cya Coron, bari kumupima Kovide cumi n'icyenda, akaba ategereje ibisubizo bye ari buhabwe na muganga.

Ni umwana w'umuhungu akaba ari kuri robine y'ubukarabiro, akaba arimo arakora isuku y'intoki, isuku y'intoki ni ingenzi cyane, kuko iyo ukarabye intoki uba wishe imikorobe nyinshi cyane ziri mu biganza byawe, zishobora kuba zagutera indwara nyinshi zitandukanye harimo nka korera ndetse na macinya.

Ni ku iriba, rifite amarobine abiri, yose arimo aravamo amazi, imbere hari umwana ufite igikombe cy'icyuma, arimo aravoma amazi meza asukuye, ayandi yo ku yindi robine yo arimo arameneka.

Ni abaturage bakaba bari mu mahugurwa y'ukuntu bakita ku buzima bwabo bwite ndetse n'ubw'imiryango yabo, bari kubasobanurira ukuntu wakwita ku buzima bwawe, utera nk'imbuto mu murima wawe akarima k'igikoni ndetse n'ibindi.

Ni umugore ari iwe, ari kugirwa inama n'umujyanama w'ubuzima, bakaba barashyizweho na Leta mu rwego rwo kwegereza ubuvuzi abaturage hafi, iyo ufite ikibazo cyangwa se ufite indwara yoroheje, ujya ku Munyabuzima akakugira inama ndetse akaguhereza n'imiti igufasha.

Aba ni abana b'abanyeshuri, biga, bakaba bari gufata ifunguro ku ishuri, ryashyizweho na gahunda ya Leta yo kugaburira abana, mu bigo, mu rwego rwo kurinda ko abana bataha saa sita, bakaba bakererwa amasomo yabo.

Ni umubyeyi w'umumama, akaba yarazanye umwana we kumukingiza, imbere hari umu w'umuganga arimo anakingira umwana indwara z'imbasa zikunda gufata abana bato bari munsi y'imyaka ine, amurinda ko yazazandura mu gihe kiri imbere.

Aha ni mu cyumba cy'inama harimo umuyobozi uri gutanga inama ku bijyanye n'iby'ubuzima, aganiriza ababyeyi ukuntu bakwita ku bana babo babagaburira indyo yuzuye, kandi bifashishije no gutera akarima k'igikoni, kubagaburira imbuto ndetse n'ibitera imbaraga.

Ivomero ririho abamama babiri ndetse n'umwana, bari kuvoma amazi meza begerejwe na Leta muri gahunda yo kwegereza abaturage amazi ndetse n'ibikorwa by'iterambere, mu rwego rwo kurwanya indwara zikomoka ku mwanda hakoreshejwe amazi mabi. Bino bigafasha abaturage kuba babayeho neza ndetse bikabarinda n'indwara zimwe na zimwe zikomoka ku mwanda arizo nk'inzoka ndetse n'izindi.

Ni umumama ndetse n'umwana we, bari mu gishanga bari kuvoma amazi y'ibiziba, amazi y'ibiziba ntago ari meza ku buzima bw'umuntu kuko haba harimo imyanda myinshi igiye itandukanye, ishobora kugutera indwara zitandukanye harimo inzoka, macinya ndetse na korera.

Ikusanyirizo ry'amazi hajyamo amazi akoreshwa n'abaturage bakayateramo umuti yica mikorobe ndetse n'imyanda igiye itandukanye, ano amazi akwizwa mu baturage abaturage bakayakoresha bityo bikabarinda kuba bajya kuvoma amazi yo mu bishanga babatera n' indwara nyinshi zikomoka ku mwanda.

Iyi ni nama yari yahuje abayobozi b'ubuzima, bakaba bari bari kwiga ukuntu bahashya icyorezo cya covid cumi n'icyenda, hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, bakaba bari bari kwiga ukuntu bagihashya, ndetse n'ingamba bafata kugira ngo bakirwanye.

Abana babiri umwe yambaye imyenda y'icyatsi, undi yambaye imyenda y'umutuku, bakaba bari ku ivomero begerejwe na Leta ritanga amazi meza atagutera indwara zikomoka ku mwanda, bakaba barimo baroga intoki zabo bifashishije ayo mazi.

Ni ikusanyirizo ry'amazi, amakusanyirizo y'amazi agira uruhare runini mu gihe nk'amazi yabuze, mu gihe cy'impeshyi, abantu bakaba bayifashisha bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi nko koza ibyombo, kuvomera inka ndetse n'ibindi.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, amazi niyo atuma twoga, duteka tukarya cyangwa se tukayakoresha n'indi mirimo igiye itandukanye, aba ni abagore babiri bari gupompa amazi, undi umwe wa gatatu yateze indobo ku mazi arimo aravoma.

Ni umwana uri ku iriba ari kuvoma amajerekani, ari kuvoma amazi meza ava muri robine, amazi meza ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kuko iyo ukoresha amazi meza hari indwara zimwe na zimwe wirinda, zagafashe umubiri wawe harimo nk'indwara z'inzoka, impiswi ndetse n'ibindi.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo abana bambaye imyenda y'ishuri, bakaba bari ku ivomero bari gukaraba intoki zabo n'amazi meza aturuka mu ivomero bubakiwe n'abayobozi babo.

Ni abana b'abanyeshuri bagiye kuvoma amazi meza ya robine, amazi meza ni kimwe mu bifatiye runini ubuzima bwacu, kuko iyo unyweye amazi mabi agutera indwara nyinshi zishobora guhitana n'ubuzima bwawe, harimo korera, macinya ndetse n'imimiswi.

Ni umugabo akaba yambaye amapingu ku maguru, ari hagati y'imyaka mirongo itatu ndetse na makumyabiri, akaba arimo aratekereza ukuntu azaburana yihanaguzaho ibyaha ashinjwa imbere y'urukiko.

Iki ni ikigo gishinzwe abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, kizwi nk'i Ndera, kikaba gifasha abantu bose bafite uburwayi bwo mu mutwe, bazwi nk'abasazi, iyo ufite icyo kibazo, uragenda bakakuvura ndetse bakaguha n'inama bijyanye n'iby'ubuzima bwo mu mutwe.

Isange one stop center ikorana na polisi, ikaba ifasha abana bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ikaba igira icyumba iganiririzamo abana bahuye n'ihohoterwa ikusanya ibimenyetso bizifashishwa mu butabera, ikaba ifite icyicaro gikuru Kacyiru kuri polisi.

Aha ni ku Rwibutso rwa Gisozi bakaba bari kwibuka Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bakaba bari kubunamira mu rwego rwo kubaha icyubahiro.

Ni mahugurwa arimo abayobozi ndetse n'abajyanama bari guhugura abantu ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, zo kuba bafasha abantu baba bafite izo ndwara, mu gihe baba bari bonyine kubaganiriza ndetse no kubitaho.

Ni umugabo ari mu muhanda, yambaye nabi, yambaye ibirenge, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, ikibazo cyo mu mutwe kiravurwa kigakira, mu Rwanda dufite ibitaro bivura, harimo nk'ibitaro by'i Ndera, byakira buri muntu wese ufite ikibazo nk'icyuyu mugabo, bakamuvura agakira agasubira mu buzima busanzwe.

Ni abagabo babiri umwe ni umusazi akaba yambaye imyenda yamucikiyeho, umusatsi wamwereyeho ntago aheruka kogoshwa. Ino ndwara ikaba ivurwa igakira ndetse mu Rwanda hari ibitaro bihari biyivura urugero nk'ibitaro by'i Ndera hari abaganga bakuvura ndetse ugakira.

Iri ni ivuriro rigendanwa akaba ari imodoka irimo ibikoresho byose bakenera kwa muganga harimo inshinge, ibitanda ndetse n'ibindi, ibi akaba ari mu rwego rwo kwegereza serivise z'ubuzima abaturage, bikaba bikorera mu karere ka Bugesera.

Ni umuganga akaba ari kumwe n'umumama wihebye, akaba arimo aramugira inama amubaza ikibazo yaba afite, bino bifasha umuntu uba ufite ikibazo cyo mu mutwe, kuba yumva atari wenyine, bikaba byamurinda no kwiyahura.

Icyumba kiberamo inama kinini, kikaba kirimo abantu bateze amatwi, umukobwa uri imbere ari kubagira inama mu bijyanye n'iby'ubuzima, akaba arimo arabashishikariza ukuntu bakita ku buzima bwabo, bakabasha kubaho neza.

Ni umugore akaba afite ikarita imwemerera kujya gusura urwibutso rushyinguyemo imibiri y'abazize jenoside, aha ngaha mu Rwanda hakaba harabaye jenoside igamije gutsemba abatutsi kugira ngo basigarane imitungo yabo.

Ni umukobwa, yipfutse mu maso, afite agatambaro, arimo ararira, ni byiza kwegera umuntu ufite nk'iki kibazo, ukamenya ikibazo cyamubabaje ndetse ukamwumvisha ko atari we wenyine byabaho kugira ngo bimurinde ibibazo bimwe na bimwe nko kwiheba, agahinda gakabije ndetse bikaba byamuviramo no kwiyahura.

Ni umugabo w'igikara afite ibyanwa byinshi ndetse n'umusatsi mwinshi, udaheruka kogoshwa, akaba yambaye imyenda isa nabi ndetse ufunguye mu gatuza. Akaba afite ikibazo cyo mu mutwe abenshi tuzi nk'abasazi.

Ni abamama, bakaba barimo baragira inama umuhungu wabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, bari kumuganiriza bumva ikibazo yaba afite kugira ngo barebe ko bamuhindura. Iyo ubonye umuntu uramutse ufite nk'iki kibazo, nakugira inama yo kumwihutana ukamujyana kwa muganga kuko babivura bigakira.

Ni mu cyumba cy'inama kiberamo n'amahugurwa, imbere hari umugore wo mu kigo cya RBC arimo arahugura abantu ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe n'ukuntu bafasha abantu bafite icyo kibazo.

Ni umugore, akaba yubitse umutwe mu maguru ye, afatishijeho ibiganza bye byombi, akaba yihebye, afite ibibazo byinshi byamutesheje umutwe. Iyo ubonye umuntu nk'uyu nguyu, wihutira kubibwira umuganga, cyangwa se ukamugira inama zamufasha.

Ni umusore ndetse n'umwana muto w'umuhungu, bari gukora isuku yo mu kanwa boza amenyo bifashishije urudodo, urudodo rwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo rukura imyanda iba yafashe hagati y'amenyo.

Aba ni abana bari mu ishuri buri mwana wese afite uburoso, uburoso akaba ari igikoresho gikoreshwa mu gukora isuku y'akanwa ndetse no koza amenyo muri rusange wifashishije umuti wabugenewe.

Ni mugabo akaba arimo arakora isuku yo mu kanwa akoresheje urudodo, rwabugenewe, urudodo rwifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, cyane cyane rukura imyanda iba ibahagamye hagati y'amenyo.

Indwara zo mu kanwa ni zimwe mu ndwara zangiza mu kanwa no gucukura amenyo, gushirira rero kugira ngo tuzirinde harimo gukoresha uburoso urimo usukura amenyo yawe ndetse n'umuti wabugenewe.

Ni umugore akaba yagiye kwipimisha indwara zo mu kanwa, zifata amenyo, imbere ye hari umuganga w'umugore, yambaye ibyuma byabuhariwe mu gupima amenyo, akaba arimo aramupima areba niba amenyo ye atarangiritse, harimo nko gucukuka, gutoboka ndetse no kuvunguka.

Ni umuganga akaba yicaye ku meza hari ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha basukura amenyo, akaba arimo aratanga urugero rw'ukuntu basukura amenyo y'ibijigo bakoresheje imashini zabugenewe.

Hope Dental Center ni ikigo gitanga amahugurwa ku bijyanye no kuvura indwara zo mu kanwa kandi kikaba kinavura indwara zo mu kanwa, harimo nko gukura amenyo ndetse n'izindi.

Umwana uri kwa muganga yaje muri serivise zo kogesha amenyo, imbere ye hari umuganga afite ibyuma byabugenewe mu koza amenyo, koza amenyo ni kimwe mu bikorwa bishobora gutuma amenyo yawe biyarinda kuba yakangirika ndetse n'izindi ndwara zayafata.

Ni umugabo, ari mu bwogero bwe, arimo arakora isuku y'amenyo, akoresheje urudodo, urudodo na rwo ni kimwe mu bikoresho byifashishwa hakorwa isuku yo mu kanwa, mu kugira ngo rufashe abantu gukura imyanda iba yahagamye hagati y'amenyo.

Ni umusore uri mu bwogero, ni inzobe afite agasatsi gake, ari gukoresha urudodo asukura amenyo ye kugirango yirinde indwara zo mu kanwa nyinshi zitandukanye.

Iyi ni ifoto yo kwa muganga itangwa n'abaganga bakora mu buvuzi bw'amenyo, ikaba yereka umurwayi amenyo afite mu kanwa cyangwa se niba hari amenyo aburamu cyangwa se niba hari n'amenyo yarwaye.

Ni umuganga akaba yicaye ku meza, hariho ibikoresho bitandukanye bakoresha basukura amenyo, akaba arimo arerekana urugero rw'ukuntu usukura amenyo yo mu kanwa, ukoresheje ibyuma byabugenewe.

Umusore arimo arerekana udukoresho twifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, cyane cyane amenyo, yerekana urugero rw'amenyo ye ko yakeye bitewe no gukoresha utwo twuma, tukaba dukuramo imyanda yose iri mu kanwa, kandi bikaba nta ndwara byaguteza.

Ni umukobwa w'umuganga akaba yambaye imyenda yabugenewe mu buganga, akaba ari muri laboratwari arimo arakora ibizamini by'umurwayi waje umugana, akaba yifashishije ibyuma byabugenewe mu gukora ndetse no gupima ibizamini kugira ngo atahure indwara y'umurwayi we.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu buvuzi bw'amenyo, harimo igitanda uryamaho bakagupima indwara zo mu kanwa, harimo ubukarabiro ukarabiramo iyo umajije gukurwa nk'iryinyo cyangwase kogerezwa mu kanwa, harimo n'ibyuma byabugenewe mu kwica imyanda igiye itandukanye.

Ni umusore w'ubwanwa akaba yambaye rinete, akaba arimo arerekana uko amenyo ye asa neza bitewe n'uko we yayitayeho akoresha imiti yabugenewe mu kuyasukura ndetse no kwirinda ibinyamasukari, kuko ari byo biza ku isonga mu kwangiza amenyo.

Ni umusore ufite ubwanwa, arimo arerekana amenyo ye ko nta kibazo afite ko atigeze acukuka cyangwa ngo ashirire, amenyo ni kimwe mu bice bigize akanwa bidufasha guhekenya ibiryo.

Ni umuganga akaba ari mu mahugurwa yo kwigisha abana ukuntu bakoza amenyo yabo neza badakomeretsa ishinya, ukuntu bakoresha uburoso bwabo neza basukura mu kanwa, bityo bigatuma birinda indwara zo mu kanwa harimo nko gutoboka kw'amenyo ndetse no kurwara indwara zitandukanye harimo nk'ifumbi.

Aha ni mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagore babiri uwambaye ikote ry'ubururu ndetse n'uwambaye ikote ry'umutuku. Bakaba bari kwandika raporo y'ibyavugiwe mu nama y'ukuntu bakwita ku ndwara zo mu kanwa, ndetse n'ukuntu bazirinda abaturage.

Ni umwana w'umukobwa akaba yagannye ikigo nderabuzima kugira ngo bamupime indwara yaba afite mu kanwa cyane cyane izibasira amenyo, ngo barebe n'amenyo ye ataracukutse cyangwa se afite nk'indwara zigiye zitandukanye harimo ifumbi ndetse n'izindi.

Ni umugabo ugeze mu zabukuru akaba arimo arasinzira mu kazi kuko atakibashije imyaka yaramusize. Akaba ari na yo mpamvu leta yashyizeho gahunda y'uko umuntu wese ugeze mu myaka hejuru ya mirongo itandatu n'itanu, ahabwa ikiruhuko cy'izabukuru kuko ntabwo aba akinoza akazi neza nk'uko bikwiriye.

Ni umugore n'umugabo ndetse n'umukecuru, kwita ku bantu bakuze ni bimwe mu bituma umuryango ugira amahoro kandi ukuzuzanya, bikarinda n'amakimbirane ya hato na hato, harimo kwicara mukaganira nk'umuryango ibibazo bamufitanye ndetse no kuganira bisanzwe, mwibukiranya ku bihe mwagiranye bya kera.

Ni umupapa akaba arimo arakina n'umwana we Basket, Basket ni umukino ukinwa n'abakinnyi batanu mu kibuga ndetse ukaba ukinwa n'abakinnyi batanu, mu gihe amakipe abiri ari ayo guhangana buri kipe yose iba ifite abakinnyi batanu.

Umubyeyi w'umama ugeze mu zabukuru, akaba ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, akaba atanga serivisi zitandukanye zo kwita ku bantu bageze mu zabukuru kugira ngo bagire amasaziro meza.

Ni umumama ugeze mu za bukuru, akaba arimo arakora siporo ngororamubiri, izi siporo zituma umubiri urambuka bikaba byakurinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo imitsi, umuvuduko w'amaraso, bikakurinda kandi n'indwara ikomeye cyane ariyo kanseri.

Ni umwana w'umukobwa ari kwita kuri mama we ukuze amutwaje igikapu, mama we ari mu mbago y'amaguru ane, arimo aragenda aganira na we baseka.

Umukecuru n'umusaza, bisa nkaho ari umugabo n'umugore, umukecuru yambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe ndetse n'agakote k'ubururu, yambaye n'igikomo mu kaboko ke k'iburyo, barishimye cyane mu busaza bwabo n'imvi zabo zabaye uruyenzi.

Aba ni ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo bageze mu zabukuru, bakaba bari gukora siporo ngororamubiri birinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo guhinamirana kw'imitsi, imivuduko y'amaraso ndetse no kuzibura imitsi yagiye iziba.

Ni umugabo ugeze mu zabukuru, akaba arimo anafata ibinini, ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, ari kumuha ibinini, akaba amufasha mu kubaganiriza ndetse no kubitamo mu bundi buzima bwabo bwa buri munsi, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bafite ubuzima bwiza.

Umumama usa nk'aho akuze afite isahane mu ntoki yiganjemo ibyi'imboga ndetse n'imbuto ari kurya, afite ifoke mu ntoki, inyuma ye hari akabati babikamo ibikoresho byo mu gikoni, ari kumwenyura bisa nk'aho yishimye.

Uburyo bwo kwita ku bantu bakuze bari hejuru y'imyaka ya za mirongo itandatu bakaba bitabwaho mu bijyanye n'ubuzima kubaganiriza ndetse no kubitaho mubuzima bwabo bwa buri munsi bakaba bafite amashami atandukanye no mu Rwanda nka kacyiru, kicukiro ndetse na Remera.

Ni umumama uri mu myaka ya za mirongo irindwi, bigaragara ko asheshe akanguhe, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga wambaye akuma gapima umutima mu ijosi, akaba afatishije umukecuru akuma kongera ingufu mu maboko, kugira ngo arwanye ikibazo cy'imitsi.

Ni umugabo n'umugore bari muri siporo yo kwirukanka. Siporo yo kwiruka ni imwe muri siporo zituma amaguru arambuka, zigatuma ibinure bigabanyoka mu mubiri ndetse bigatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Ni muryango w'abantu batanu, umugore n'umugabo, umusaza ndetse n'umukecuru ndetse n'umwana wabo, akaba ari umuryango wishimye kandi wuzuye bakaba bishimiye ibyiza bagezeho, ndetse nuko bafite ubuzima buzima.

Ni umugabo ugeze mu zabukuru, ari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi ndetse na mirongo itandatu, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika mu kagare, abantu bageze mu zabukuru baba bakeneye abantu babitaho kuko hari igihe aba yumva ari wenyine bityo bigatuma akenera umuntu baba bari kumwe mu gihe yumva ari wenyine baganira ndetse bagaseka.

Ni abamama babiri bakaba bari muri siporo ngororamubiri zo gukoresha amaguru bagenda zikaba zituma imitsi yo mu maguru irambuka amaraso agatembera neza ndetse bigatuma n'ibiha bikora neza.

Umu mama ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, akaba ari kumufasha mu gukora imyitozo imwe n'imwe irambura umubiri we, cyane ko abantu bageze mu za bukuru, baba bakeneye abantu babitaho kugira ngo bagire amasaziro meza.

Ni umugabo n'umugore bageze mu zabukuru bakaba bari mu gihe cyo gufata amafunguro bari kurya ifunguro ryiganjemo imboga, akaba ari ifunguro rifasha umubiri w'umuntu kuba wamera neza ndetse bikunganira n'igogora.

Ni umusaza n'umukecuru bisa naho ari umugore n'umugabo, umusaza afite ibinini bibiri mu ntoki ze akuye mu gakombe imbere ye hari ikirahure cy'amazi, umukecuru ari kumwereka ukuntu imiti azajya ayifata.

Kanseri ni indwara mbi kandi yica, ikaba ari indwara ifata umubiri w'umuntu ikawumunga gake gake ndetse kanseri ntabwo ijya ikira. Tugira amoko menshi ya kanseri, hari kanseri y'ibere, kanseri ifata mu mavi, kanseri yo mu mara ndetse n'izindi nyinshi. Izi ndwara iyo uramutse ubonye ibimenyetso byazo, nakugira inama yo kwihutira kujya kwa muganga byihuse.

Iyi ni inama yo ku Isi yose yari yahuje abagore, bakaba bari bari guhugurwa ukuntu bakita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, babitaho babakurikirana umunsi ku munsi, babaganiriza ndetse bakabahereza n'ubutabazi bw'ibanze.

Iyi ni raporo y'imyaka icumi yerekana aho kuringaniza urubyaro mu baturage aho byari bigeze, iyi ikaba ifasha leta mu igenamigambi ryayo niba ifite abaturage benshi cyangwa se bake ikamenya ingengo y'imari yifashisha mu kubitaho.

Ni umumama, yicaye ku ntebe, yambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari undi mumama na we wambaye agapfukamunwa, impande ye hari umuganga na we wambaye agapfukamunwa, arimo aramukingira urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Umuhungu n'umukobwa bari bitabiriye inama ihuza ibihugu byose byo ku isi, mu kuganira ku bibazo byerekeye isi ndetse n'ukuntu babikemura, ino nama ikaba iterwa inkunga, n'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi.

Ni abayobozi, bari mu cyumba cy'inama, bari guhugurwa ukuntu bakwita ku buzima, ndetse n'ukuntu bakwirinda ibyorezo biri kugariza Isi muri rusange. Bakaba bari bicaye hamwe bose bagiye gufata ifoto y'urwibutso.

Ni amahugurwa yabaye mu kwa cumi na kumwe myabiri na rimwe, ndetse no mu kwa mbere makumyabiri na kabiri, aya mahugurwa akaba yaratewe inkunga n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, aya mahugurwa akaba yarigaga ku kuntu warinda indwara zo mu mutwe ndetse n'igihe zigaragaye, ukuntu wabyitwaramo.

Ni Jeannette Kagame ari gutanga amahugurwa mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ashishikariza abantu bose kwita ku bafite ikibazo cyo mu mutwe ndetse n'utekereza ko yaba agifite akajya kwipimisha amazi atararenga inkombe.

Ubushi bw'inkende ni indwara yica, ikaba ifite ibimenyetso bikurikira ari byo kubabara umutwe, kuzana ibibyimba hagati y'intoki ndetse no kubabara mu ngingo, ukuntu wayirinda gukora ku nyamaswa zapfuye, harimo kwirinda kujyerana n'umuntu wayanduye ndetse n'ibindi, iyo ubonye ufite bimwe muri ibi bimenyetso, witura kugana kwa muganga.

Abaganga batandatu bambaye imyenda yabugenewe irinda umuganga mu gihe ari kumwe n'umurwayi, cyane cyane bakunda kuyambara mu gihe hari icyorezo. Bino bikaba birinda umuganga ko yakandura icyo cyorezo, mu gihe ahuye n'umurwayi.

Indyo yuzuye iri mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi akabaho igihe kinini, harimo ibigira vitamine ari zo imbuto nk'imineke, hakabamo ibitera imbaraga nk'ibijumba ndetse n'ibindi. Bino byose bishobora gutuma uba ufite ubuzima bwiza kandi bikakurinda n'indwara muri rusange.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amakuru ku bijyanye n'iby'ubuzima, kiri kwereka abantu ukuntu wakwirinda kanseri, kikakwereka n'ukuntu umubyibuho ukabije utera kanseri harimo nka kanseri y'umwijima ndetse na kanseri yitwa indometariyani hakaba harimo n'ukuntu wayirinda harimo nko kugabanya ibiro, gukora siporo ndetse no kurya indyo yuzuye.

Ni ikigo nderabuzima cya Nyanza kikaba giherereye mu karere ka Nyanza, kikaba gikorana na RIB ndetse n'Isange One Stop Centre, Isange One Stop Centre batanga serivisi zo gufasha abana bahuye n'ihohoterwa mu kubafasha mu gukusanya ibimenyetso bizifashishwa mu bushinjacyaha.

Ni icyumba cyo kwa muganga cyabuhariwe, kibikwamo imiti bakenera, kikaba gituma imiti idapfa kandi ikabikika igihe kirekire, ikazagera ku murwayi yujuje umwimerere.

Iki ni ikigo cy'ubuvuzi kikaba cyakira abantu bose bafite ibibazo bijyanye n'iby'ubuzima, harimo cyane cyane iby'uburwayi bakabaha serivise ndetse bakabavura bagakira.

Kabgayi ni ikigo nderabuzima giherereye i Muhanga mu ntara y'amajyepfo, kikaba gifite ibitaro mu bijyanye n'amaso gifite abaganga b'inzobere mu kuvura amaso, aho uba ufite ikibazo cy'amaso bakagusuzuma bakareba ikibazo ufite barangiza bakaguhereza imiti, ndetse na rinete mu gihe ari ngombwa.

Iyi ni inzu y'ababyeyi ikaba ijyamo ababyeyi batwite, ni naho babyarira, harimo ibikoresho bibafasha mu gihe bagiye kubyara, nk'ibyuma bapima umutima, ibitanda byo kuraraho ndetse n'inzitiramibu, harimo kandi n'abaganga babafasha mu gihe bagiye kubyara.

Ni kwa muganga mu cyumba kirimo umugore w'umurwayi wahwereye, hejuru ye hari umugore na we w'umuganga arimo aramutera urushinge ku kaboko ke k'iburyo.

Ni kwa muganga muri sale bakiriramo abantu, hakaba harimo intebe umurwayi aza akicaramo ategereje serivisi, hakaba hari n'umuntu uri kuri resebusiyo umuhereza serivisi ashaka, akanamwereka n'aho bamwakirira.

Iki n'icyumba cyo kwa muganga, hakaba hakirirwamo abarwayi barembye ndetse n'aboroheje, hakaba harimo ibikoresho umurwayi akenera, nk'igitanda ubuti bamanikaho serumu mu gihe ari ngombwa ndetse hano hakaba harimo n'abaganga bagufasha kuri serivisi ndetse n'ubuvuzi waba ukeneye mu gihe urwariyemo.

Iyi ni inzu yahariwe ibijyanye n'ubuzima ndetse ikaba itangirwamo inama n'amahugurwa, hakaba hari habereyemo inama ndetse n'amahugurwa yo kwita ku buzima bw'umubyeyi w'umumama.

Ibi ni ibitaro ahazwi nko kwa Nyirinkwaya, bikaba bitanga serivisi zijyanye n'iby'ubuzima, bikaba ari byo bitaro byakira abarwayi bashaka kubagwa nko mu nda ndetse n'ahandi.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo icyuma cyabugenewe mu gupima indwara ziri mu mubiri cyane cyane izo mu mutwe, bakaba bagushyira muri icyo cyuma, hariho agatanda uryamaho, barangiza bakakunyuzamo kigusuzuma umubiri wose cyerekana ahantu hose ufite ikibazo mu mubiri wawe.

Iniverisite ya Butare iherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, ikaba yigisha ibijyanye n'ubuvuzi, niyo iniverisite mu Rwanda nini itanga uburezi mu bijyanye n'ubuganga.

Ni icyumba cyahariwe abaforomo ndetse n'abaganga, bakiriramo abarwayi baje babagana bakabandika mu mashini, bakandikamo imiti bajyanye ndetse na serivisi bakeneye, bakaba batangiramo serivisi zitandukanye zijyanye n'iby'ubuzima.

Icyumba cyo kubyariramo, ni icyumba abamama batwite bajyamo bagiye kubyara, haba harimo ibikoresho byabugenewe bifashisha bari kubyara, harimo ibitanda, amamashini abapima umutima ndetse n'abaganga babugenewe.

Aha ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi mu bijyanye n'amaso, bakaba bagusuzuma bakareba amaso yawe ikibazo yaba afite, basanga akeneye rinete na zo bakaziguha kugira ngo zigufashe kuba wareba neza.

Ikigo nderabuzima cya Rwamagana gitanga serivisi zitandukanye, harimo serivisi z'ubuvuzi, hakazamo serivisi zo kubyara ndetse no kubagwa, kikaba giherereye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba.

Umuganga w'umukobwa yambaye iteburiya y'umweru, akaba ari kuri mudasobwa akora raporo y'abaganga yakiriye mu cyumweru, imiti yabahaye ndetse n'indwara bari barwaye bikazafasha ibitaro mu gukora igenzura umwaka urangiye.

Ni mugabo akaba ari mu ihema ririmo abaganga, ndetse n'ibyuma byabugenewe, bakaba bari kumupima umuvuduko w'amaraso, ubushye yaba afite mu mubiri we, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye yaba afite mu mubiri we atazi.

Aha ni mu ihema, hakaba harimo umurwayi ndetse n'umuganga, hakaba harimo haratangirwa serivisi yo gukingira abantu Covid-19. Aha ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, mu gihe cy'icyorezo cya Corona Virus cyari cyugarije Isi muri rusange.

Ni icyumba cyahariwe gukorerwamo siporo ngororamubiri, hakaba harimo ibyuma bigiye bitandukanye, harimo nka aritere, ibyuma bakoreraho banyonga igare, ibyo birukankiraho ndetse n'ibyuma byinshi bigiye bitandukanye bifashisha mu gihe uri gukora siporo.

Ibi ni ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge bikaba byarubatswe ku bufatanye bwa Leta, mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima, bigatuma abaturage bivuriza hafi kandi badahenzwe kuko bino bitaro bikorana na mituweli.

Iki ni icyumba cyo gukoramo siporo, kikaba kigufasha kurambura imitsi, kuzibura imitsi yazibye, ndetse no kurambura inyama zimwe na zimwe zahinamiranye, hakabamo ibikoresho bigufasha gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo ibyuma bikoreshwa n'igare banyonga, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni icyumba cyo kwa muganga kikaba kibikwamo amaraso yagiye atangwa n'abaturage, ano maraso akaba yifashishwa mu gutangwa ku ndembe ziri kwa muganga zabuze amaraso nko mu gihe bakoze nk'impanuka bagatakaza amaraso menshi, bifashisha aya maraso bakongerera andi.

Iyi ni iniverisite nkuru mu Rwanda, ikaba yigamo abanyeshuri bashoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, bakaba bagomba kuba bafite diporome, kino kigo kirimo amashami menshi agiye atandukanye, harimo nk'ishami ry'ubuvuzi ndetse n'ayandi.

Farumasi ni amwe mu mavuriro mato mato, dusanga ahantu henshi hagiye hatandukanye, akaba aba afite imiti myinshi igiye itandukanye, harimo ibinini, inshinge, iyisukika ndetse n'iyindi. Ikaba yifashishwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo bavure indwara zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, cyubatswe na leta, mu bufatanye n'abaturage, kikaba gitanga serivisi zo kwivuza, kikaba kivura abaturage, bafite ubwisungane mu kwivuza nka mituweli ndetse n'izindi.

Ni umuganga w'umugore, akaba yambaye agapfukamunwa, yambaye akuma mu gatuza gapima umutima ukuntu uri gutera, akaba arimo arambika umwana w'umukobwa icyuma bifashisha bapima umuvuduko w'amaraso.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, akaba ari icyumba cyabugenewe mu gupima indwara zitagaragarira amaso, harimo ibyuma byabugenewe mu kuzipima, bigatahura indwara ziri mu mubiri indani, bikaba bipima mu bwonko, mu nda ndetse no mu magufa.

Ni kwa muganga, kwa muganga bavura indwara nyinshi zitandukanye harimo; nk'izanananiranye umwijima, za kanseri, indwara zo mu nda nka amibe hanze hari abaturage baje kwivuza abenshi batanze n'ubwisugane mu kwivuza.

iki ni icyumba cyahabuhariwe kirimo, imashini kabuhariwe mu gupima umuntu indwara afite, cyane cyane izo mu mutwe bifashishije urumuri rutangwa n'imashini, bakaba babasha gutahura ikibazo kiri mu bwonko bwawe, niba nta bibyimba birimo cyangwa se izindi ndwara.

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima, kikaba gifasha abaturage muri serivisi zijyanye n'iby'ubuzima. Kikaba gikorana na mituweli, kikaba cyarashinzwe n'abaturage ndetse ku bufatanye bwa leta. Kikaba kivura abaturage indwara zigiye zitandukanye, bakuvura indwara zo mu nda ndetse n'izo mu magufa.

Iki n'icyumba cyahariwe gukorerwamo siporo hakaba harimo ibyuma bitandukanye bifashisha bari gukora siporo harimo ibyuma byo guterura, ibyuma byo kunyonga nk'igare, bino byuma bikaba birinda umuntu kuba yahinamirana cyangwa se kuba yarwara umuvuduko w'amaraso.

Ni umugore w'umuganga afite akuma gapima umutima mu ntoki ze, akaba yambaye n'itaburiya y'abaganga isa umweru, ku gitanda kiri imbere ye hicaye umugore w'umurwayi arimo aramugira inama z'ukuntu yakita ku buzima bwe, akabufata neza.

Aha ni icyumba wakirwamo mbere ukigera kwa muganga bakaba bakubaza ubwishingizi ndetse hakaba ari na ho bakwereka icyumba uri buze kujya guhuriramo na muganga akagufasha kuri serivisi z'ubuzima ukeneye.

Ni icyumba cyo kwa muganga kijyamo abarwayi, bari burare mu bitaro, cyangwa se bari bumaremo igihe kinini, kikaba kirimo ibikoresho bakwifashisha mu gihe baharwariye, harimo ibitanda byo kuryamaho, inzitiramibu zibarinda Malariya, ndetse n'abaganga babitaho.

Forumasi ni amavuriro mato dusanga ahantu henshi hagiye hatandukanye, hakaba haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye, ivura n'indwara zitandukanye, aya uzayasanga ku mihanda ndetse n'ahandi, iyo ufite umuti wandikiwe na muganga, uragenda muri forumasi, ukishyura bakawuguhereza.

Ni bagabo bane bari kwirukanka, bose bambaye imyenda bakorana siporo, bakaba barimo baragorora mu ngingo nk'amavi, mu nkokora ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Aka ni akuma bifashisha bapima umutima w'umuntu bumva ukuntu uri gutera, niba uri gutera cyane cyangwa se gake cyangwa se nanone niba utari gukora, aka kuma kakaba gafasha abaganga mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi wabo buhagaze, niba ari muzima cyangwa se yapfuye

Ni umukobwa akaba ari muri siporo ngororamubiri, siporo ni kimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akagira ubuzima buzira umuze, siporo ituma imitsi y'umuntu irambuka, hakaba hari indwara zitakwataka, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, kuziba kw'imitsi, ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Siporo ndetse n'imbuto birinda indwara, mu ngero za siporo dusangamo kwiruka, pompaje, tugasangamo: Guterura ibyuma, mu mbuto dusangamo: Amaronji, pome ndetse n'ayandi.

Iyi miti ni imiti usanga kwa muganga akaba ari imiti igabanya ububabare, uwusiga ahantu wavunitse cyangwa se hari kukubabaza, imiti ikaba yemewe n'ikigo cy'ubuzima aricyo RBC.

Ibi ni bimwe mu bikoresho dusanga kwa muganga cyangwa se mu gasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, ukaba ubikoresha mu gihe wageze nk'imvune cyangwa se hari mugenzi wawe wagize imvune. Harimo pomade usiga aho yagize imvune, hakazamo ibipfuko ushyira aho afite igisebe ndetse na ga.

Siporo igira umumaro munini mu buzima bw'umuntu, hakaba hari ibyo twifashisha dukora siporo nka aritere, hakaba hari n'ibyo tugomba kurya mu gihe twakoze siporo cyangwa se mbere y'uko dukora siporo, hakaba harimo nk'ibitera imbaraga amagi, hakaba harimo ibyongera vitamine imineke ndetse n'imboga nk'amashu.

Siporo ngororamubiri ni siporo zigorora ingingo zawe z'umubiri yaba inyama cyangwa se amagufa, bikaba bifasha mu gutuma imitsi irambuka, bikaba binatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri wawe.

Agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, ni gasanduku usanga kwa muganga, kaba karimo ibikoresho, wakwifashisha uba utanga ubutabazi bw'ibanze, nk'ibipfuku, imiti igiye itandukanye igabanya ububabare, inshinge, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Siporo, indyo yuzuye ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigufasha kuba wagira ubuzima buzima, iyo ukora siporo imitsi yawe irarambuka amaraso agatembera neza mu mubiri ndetse ugafata n'imbuto harimo n'imineke, inkeri ndetse na pome n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni umugore w'umuganga wambaye rinete, akaba yicaye ku gatanda, imbere ye hari umuganga ari kumugira inama ku bijyanye n'ibyo mu ivi, ari kumubwira ukuntu yakita ku mavi ye kugira ngo atazahura n'ikibazo.

Ni umugabo ugeze mu za bukuru, bakaba baramwandikiye gukora siporo, kuko siporo nayo yifashishwa mu buvuzi, mu kugorora imitsi wenda za rubagimpande, ndetse n'imivuduko y'amaraso, iyo ukora siporo indwara navuze haruguru ntabwo zikwataka, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, kuziba kw'imitsi, ndetse n'ibindi.

Siporo igira uruhare runini mu buzima bwa muntu, nk'iyo ufite ibiro byinshi, kwa muganga bakubwira gukora siporo kugira ngo ugabanye ibinure mu mubiri wawe, siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse igatuma n'ubuzima bwa muntu bugenda neza.

Ni umurwayi aryamye ku gatanda yambaye imyenda y'umweru, bakaba bagiye kumunyuza mu cyuma barebe ikibazo yaba afite mu mubiri we, cyane cyane mu mutwe.

Siporo ni kimwe mu bigize umubiri w'umuntu, bituma umubiri w'umuntu ugubwa neza, ukaba umeze neza, siporo ikaba irinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo imitsi, indwara zifata umutima, indwara zituma umubiri ugubwa nabi, harimo nko kuziba kw'imitsi, ndetse ibi ngibi bikaba byakurinda n'indwara ikomeye, ariyo yitwa kanseri.

Aka ni agatanda ko kwa muganga bifashisha batanga ubutabazi bw'ibanze, ku muntu uhuye n'ikibazo cyangwa se ukoze impanuka, mu gihe atabasha kugenda, bakamurambikaho barangiza bakamwihutana kwa muganga, bitagombeye ko bagenda bamurandase mu maboko.

Ari kwa muganga mu cyumba cyahariwe siporo, barimo baramukorera ubuvuzi bujyanye n'ibyo mwita ko warambura imitsi yagiye ihinamirana, bino bifasha umubiri w'umuntu kuba imitsi yazibuka ndetse bikamurinda n'izindi ndwara zamufatamo nka kanseri.

Agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, ni agasanduku akenshi usanga kwa muganga ahantu hakunda guhurira abantu benshi, umuntu akaba akifashisha mu gihe habayeho impanuka itunguranye, hakaba harimo ibikoresho byinshi wakifashisha harimo imikasi, ibipfuko, arukoro, ndetse n'ibindi.

Uyu ni umugore w'umuganga ndetse n'umubyeyi wazanye umwana we, uwo muganga akaba arimo aramupima indwara zijyanye n'amaso akoresheje icyuma cya kabuhariwe mu gupima amaso.

Ni umugabo yambaye umupira w'umweru ndetse na kora bakorana siporo, akaba afite ikibazo mu ivi, mu ivi hari kumubabaza cyane, mu gihe nawe ufite ikibazo nk'icy'uyu mugabo nakugira inama yo kwihutira kujya kwa muganga bakagufasha.

Ni kwa muganga hari umugabo ufite ikibazo mu ivi akaba aryamye ku gatanda, hejuru ye hari umugore wambaye imyenda y'umukara arimo akoza barafu ahagana mu ivi, yagize ikibazo.

Ni umusore uri muri siporo ngoramubiri, siporo ngoramubiri zituma umubiri w'umuntu urambuka, bikamurinda ko yarwara indwara z'imitsi kandi bigatuma amaraso atembera mu mubiri we neza, bikamurinda no kuba yarwara umuvuduko w'amaraso.

Ni ibinini biri mu moko menshi agiye atandukanye, harimo ibisa umuhondo, hakazamo ibisa umweru ndetse n'ibisa oranje. Impande yabyo hari urushinge, bino bikaba byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo bigatuma atananirwa.

Uyu ni umukino ukinwa bafite umupira mu ntoki kandi bakawukina wambaye kasike ndetse n'imyenda irinda intugu zawe, rero uyu ni umugabo wahuye n'ikibazo mu kibuga, ari kumwe n'abaganga be bamubaza aho yaba yahuye n'ikibazo kugira ngo bamukorere ubutabazi bw'ibanze.

Ni imyitozo icumi wakora, nyuma yo gukora impanuka yo ku bwonko, harimo imyitozo ushobora gukora wicaye, harimo nko kwicara ku ntebe ukazamura akaguru kawe, ndetse no kwicara hasi ukaba waryama hasi ukarambarara ukumva niba ufite uburinganire, harimo imyitozo wakora uhagaze harimo guhahagara ufashe ku kintu ukarambura akaguru, ndetse no kwizunguza gake gake.

Ni umusore akaba ari muri siporo, siporo ni nziza ku buzima ndetse n'umubiri w'umuntu, ikaba ifasha umubiri kurambuka ndetse no kuzibura imitsi yazibye, amaraso agatembera neza mu mubiri kandi ikaba irinda indwara zitandukanye harimo umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Siporo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umubiri w'umuntu umera neza, uwuyikora akagubwa neza ndetse bigatuma n'amaraso atembera mu mubiri neza. Rero gukora siporo bigabanya umuvuduko w'amaraso, bikarinda umuntu kuba yarwara indwara zigiye zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije.

Umusore wazindukiye muri siporo arimo aragorora ibice bye by'umubiri nk'umugongo, amaboko ndetse n'amaguru, siporo ni kimwe mu bituma amaraso y'umuntu atembera neza bikaba byakurinda umubyibuho ukabije kuko umubyibuho ukabije utera kanseri zitandukanye, harimo nka kanseri y'impyiko.

Ni umugabo akaba ari mu cyumba cy'ubuvuzi, aryamye ku gatanda yubitse inda, imbere ye hari umuganga ari kumukorera massage ahagana mu kaguru, ikaba ifasha mu kugorora imitsi, igafasha imitsi yazibye kuzibuka, ndetse no kurambuka.

Ni umukobwa w'igikara ari mu myitozo ngororamubiri yambaye kora ndetse n'agasengeri byose bisa umweru, amaboko ye yombi yayafatishije ku kaguru ke k'ibumoso akandi k'iburyo kihinnye.

Aka ni akagare kifashishwa kwa muganga cyangwa se mu butabazi bw'ibanze, kakaba kajyaho umuntu utari kubasha kugenda n'amaguru ye yombi, kugira ngo kamufashe kuba yagenda. Gafite amapine abiri manini ndetse n'ayandi abiri matoya ari imbere.

Ni umukobwa akaba ari mu imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni imwe mu bikorwa bifasha umubiri kuba umerewe neza, bikaba byakurinda indwara z'imitsi, bizibura imitsi yazibye, ndetse bikaba byakurinda n'indwara nk'umuvuduko w'amaraso bino bishobora kukuviramo n'indwara ya kanseri, iyo ukora siporo muri izo ndwara zose nta n'imwe yakwataka.

Iyi ni sporo yitwa basketball ikaba ikinwa n'abakinnyi batanu ndetse n'amakipe abiri buri kipe ifite abakinnyi batanu, ikaba igira uruhare runini mu buzima bw'umuntu, ituma amaraso atembera neza mu mubiri wawe.

Ni bimwe mu bikoresho bakoresha mu butabazi bw'ibanze, biba biri mu gasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, usanga kwa muganga n'ahandi hatandukanye. Ibi dusangamo nk'ibipfuko, ibinini, ga ndetse n'indi miti yomora ibisebe itandukanye.

Ibi ni ibikoresho usanga kwa muganga ndetse no mu mafarumasi ukaba ubyifashisha mu gihe ugize ikibazo nk'imvune, hariho ibikoresho bigufasha mu gihe wahuye n'imvune, harimo pomade, ibipfuko ndetse na arukoro igufasha kwica mikorobe.

Ni umugabo uri kunywa amazi ari kuva mu icupa ry'ubururu kandi meza asukuye. Amazi agira uruhare runini mu buzima bwa muntu kuko umubiri w'umuntu mirongo itandatu na kane biwugize ni amazi. Bityo bigatuma amazi agira uruhare runini, amazi yifashishwa mu gusukura impyiko.

Uyu musore ari muri siporo ari kunywa amazi, ni byiza kunywa amazi mugihe uri muri siporo cyangwa se uyishoje, kuko iyo uri gukora siporo hari amazi y'umubiri uba watakaje, rero ni byiza kuyanywa kugira ngo ugaruze ya amazi yandi yatakaye.

Uyu ni umukino ukinwa cyane cyane muri Amerika, ukaba ari na ho wakomotse, uyu mukino uwukina wambaye kasike ukaba wambaye n'iyindi myenda ikurindanda intugu zawe, uyu mukino ukaba uwukina ntakuvuna mugenzi wawe cyangwa se ngo umukomeretse.

Ni umugabo aryamye ku gatanda afite telefone mu ntoki, hejuru ye hari umugore w'umuzungu, ari kumugorora mu ivi ndetse no mu itako, kugira ngo imitsi ye yo mu kaguru irambuke amaraso atembere neza.

Utu ni utudege duto tutagira abapirote, tukaba twifashishwa mu gutanga amaraso tuyageza ku mavuriro atandukanye, bigatuma amaraso ahagera vuba, ndetse yaba ari n'umurwayi ahabwa akamugeraho adatinze, ku buryo bishobora kumurinda nko kuba yahatakariza ubuzima.

Ni umusore ari muri siporo arimo aranywa amazi. Siporo ni nziza ku buzima ndetse n'umubiri w'umuntu ndetse iyo unyweye amazi uba uri kongera amazi uba watakaje mu gihe uri gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, bikaba byatuma umubiri wawe umererwa neza ndetse ukagubwa neza.

Ni umugabo akaba ari muri siporo ngororamubiri, zirambura amaboko ndetse n'umugongo, zikaba zituma imitsi y'amaboko ndetse n'umugongo irambuka, ikazibuka ndetse ikanakora neza, bikaba byatuma ugira ubuzima bwiza, nturware indwara zifata umugongo ndetse n'imitsi muri rusange.

Ni umuganga w'igitsina gabo, ari gupima umwana indwara zo mu kanwa, niba amenyo ye ataracukutse, niba atarashiriye, indwara zo mu kanwa ni zimwe mu ndwara zishobora kuzaza umwana, nk'amenyo ye akaba yakuka imburagihe.

Ni umukobwa akaba yavunitse mu nkokora, aho yavunitse ari gukozoho barafu, barafu ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, uyikoza aho wavunitse bigatuma imvune yawe itakurya cyane.

Ni bande bakaba bayifashisha mu buvuzi cyane cyane nk'umuntu wavunitse ari muri siporo cyangwa se mu yindi mirimo, bakaba bayikuzirikira ahantu wavunitse, bikaba byatuma bikugabanyiriza uburibwe bwawe.

Ni icupa ry'amazi risa ubururu, rikaba ririmo amazi meza asukuye, buriya amazi meza asukuye ni meza ku mubiri w'umuntu kuko atagutera indwara zitandukanye, asukura imyanda yo mu mubiri agatuma n'impyiko zikora neza.

Ni agatanda batwaraho umurwayi, gafatwaho n'abantu babiri bamwe imbere undi nyuma, hakajyaho umurwayi wagize ikibazo runaka bakamutwara, bakamwihutana ku ivuriro, bakamuha ubutabazi bw'ibanze.

Ni ubuki bukaba buri mu icupa ry'amagarama magana atanu, bukaba bukorwa na Forever. Ubuki bugira umumaro munini ku mubiri w'umuntu kuko bwibitsemo poroteyine, buryoshya ibiryo igihe wabushyizeho uri kuburishanya ndetse bukaba bwica n'ama bakiteri aba ari mu mubiri w'umuntu agiye atandukanye.

Ni umuti uri mu icupa ry'umweru ripfundikiye, ukaba wifashishwa mu kuvura abana indwara zitandukanye, harimo nk'inzoka zo mu nda, ibicurane ndetse n'izindi ndwara.

Tungurusumu ni igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye harimo umuti woza amenyo korogate. Iki gihingwa kikaba kirinda n'indwara zigiye zitandukanye, kikaba kirinda n'indwara z'inzoka ndetse n'izindi zo mu nda. Ukaba wakihingira nawe iwawe murugo cyangwa se ukakigura ku isoko.

Ni umugabo, yambaye umupira w'icyatsi urimo akabara k'umuhondo, akaba afite ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye mu ntoki ze, akaba arimo arasobanura ukuntu ibyo bimera bibyazwamo imiti, bifashisha mu buvuzi bwabo.

Umuravumba ni kimwe mu bihingwa cyangwa se mu byatsi byimeza, kikaba kifashishwa mu buvuzi, kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'Inkorora ndetse n'Ibicurane.

Ni ibisorori byinshi birimo amoko y'ibimera atandukanye hari agasekuru karimo ibibabi bagiye gusekura, hari n'ikindi gikoresho kimeze nk'umuzani bakoresha bapima ingano y'ibyo bibabi bagiye gukoramo ibintu bitandukanye.

Tungurusumu ni kimwe mu bimera biboneka hake, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, harimo nk'imiti yoza amenyo, tungurusumu ikaba yifashishwa kandi mu kwica inzoka zo mu nda nka za Amibe n'izindi nyinshi zananiranye.

Ibiti ni kimwe mu bimera bifitiye umumaro munini isi, bikaba bitanga umwuka mwiza duhumeka bikaba binasukura ikirere bikoramo umwuka wanduye. Ibiti kandi byifashishwa no mu gukora imiti igiye itandukanye mu buvuzi gakondo.

Umuravumba ni kimwe mu bimera dusanga ahantu henshi hagiye hatandukanye, harimo mu bihuru, mu mashyamba ndetse no mu ngo, umuravumba ni umuti ukiza inkorora, ndetse n'ibicurane, ku buryo iyo byakujahaje urya akababi kamwe ugakira.

Ibi ni ibimera bakoresha mu miti igiye itandukanye hakaba harimo indimu, mucyayicyayi ndetse n'ibindi, indimu bazifashisha bakora imitobe igiye itandukanye, hakaza na mucyayicyayi bayikoresha bateka icyayi.

Amashu ndetse na shufurere n'ibihingwa byifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, amashu akaba yifashishwa mu guteka imboga mu ngo ndetse akaba akorwamo na businesi. Akaba ari igihingwa gishobora kukubyarira amafaranga mu gihe waba wagifashe neza.

Uyu ni umuti ugufasha kongera intungamubiri mu mubiri wawe, ugafasha amaraso gutembera neza, ukaba wongera nka amavitamine agiye atandukanyekanya mu mubiri wawe ubura, uno muti ukaba ukoreshwa cyane cyane n'abantu batarya inyama.

Igikakarubamba ni ikimera usanga ahantu henshi hagiye hatandukanye mu mashyamba, mu ngo z'abantu ndetse no mu mirima igiye itandukanye, kikaba cyifashishwa mu kuvura ibiheri biza mu maso ndetse no ku mubiri, kandi kikaba cyifashishwa cyane cyane mu kuvura amaso.

Ni umuntu wambaye ibirenge n'ikote risa shokora ririho ibipesu bibiri, afite agapapuro mu ntoki karimo umuti w'ifu bisa nk'aho ari bibabi yumishije yarangiza akabisya.

Ni imiti iri mu macupa atandukanye ndetse yo mu bwoko butandukanye, harimo uwifashishwa mu gusukura imyanda mu maraso, harimo n'uwundi wifashishwa mu gusukura imyanda iri mu mutima ndetse hari n'isabune woga mu maso ikorwa muri avoka.

Iyi ni imiti gakondo yifashishwa n'abantu mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, hari n'agasekuru bakoresha basekura iyo miti. Ino miti ikaba yaraje gusimburwa n'imiti ya kizungu, harimo nk'ibinini, mu gihe abandi bo kera bakoreshaga ibi.

Uyu ni umuti ukururwa na Forever aloe vera, ukaba wifashishwa mu gusukura imyanda iri mu maraso, ukifashishwa mu igogora ry'ibiryo ndetse ukaba ukunze gukoreshwa n'abantu batarya inyama.

Aya ni amavuta akoreshwa ku ruhu, akaba akoreshwa n'umuntu uwo ari we wese yaba ari umugore cyangwa se umugabo, akaba yemewe n'ikigo cy'ubuzima ari cyo RBC, aya mavuta arinda uruhu rwawe gusatagurika ndetse no kuzana ibiheri.

Aya ni amavuta akaba yifashishwa mu kwisigwa ku mubiri ndetse n'ahandi mu bice by'umubiri bitandukanye, hakaba hari na parufe wifashisha utera mu myenda yawe ikabi igufasha kugira impumuro nziza ndetse ukaba usa neza.

Ni ibimera usanga ahantu hajya hatandukanye mu ngo, mu mirima, ndetse no mu mashyamba ibimera bikaba byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo ibimera bivura inkorora, hazamo ibimera bivura ibiheri, ndetse n'ibindi.

Uru ni rubuto ruzwi ku izina ryitwa ipapayi, rukaba rugira intungamubiri, rukaba rufite akamaro kanini, rukaba runakoreshwa mu kurwanya imirire mibi ku bantu bose, iyo uriye ipapayi ugira ubuzima bwiza ndetse iranasukura, igakuramo n'imyanda mu maraso.

Ni amacupa arimo imiti igiye itandukanye myinshi, ifite amabara atandukanye, harimo isa icyatsi, harimo isa umutuku ndetse n'umweru, ikaba yifashishwa mu kuvura abantu, twasangamo nk'umuti witwa ibumba.

Ubu ni ubuvuzi bwifashisha ibimera, bakaba bafata ibimera bakabikoramo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi umuntu ahura nazo mu buzima bwe.

Imbuto ni kimwe mu bimera bituma umuntu agira ubuzima bwiza kuko imbuto zifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, imbuto zirinda indwara, mu mbuto dusangamo nk'amacunga, amaronji, imyembe, imineke ndetse n'izindi zitandukanye.

Iyi ni imiti igiye itandukanye ikaba ikoreshwa ku isi hose, akaba ari imiti ikomoka mu bimera ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye, ikaba ari imiti itunganywa ikagurishwa ikaba ivura indwara zitandukanye harimo ibifu, imivuduko y'amaraso ndetse na z'amibe.

Amenyo ni kimwe mu bice bigize akanwa bikaba bikenera ko byakorerwa isuku, rero mu gukorerwa isuku kwabyo hifashishwa umuti wabugenewe wica imyanda bigatuma amenyo adacukuka kandi akaba akomeye.

Uyu ni umuti kuri buri muntu wese ndetse no ku muryango muri rusange, ukaba uvura abantu barangiza vuba, abantu bacika intege mu gihe cyo gutera akabariro, abantu bikinishije, ndetse ugakumira indwara zifata porositate.

Uyu ni umuti ukorwa hifashishijwe imbuto ndetse n'ubuki bakongeramo na tangawizi, ukaba uvura indwara harimo nk'inkorora, uyu muti urizewe kandi buri wese yawikorera nta n'ubwo uhenze.

Iri ni isoko rusange ririmo abacuruzi bagiye batandukanye, harimo umugabo uri gucuruza manderena, hirya harimo n'abandi bari gucuruza ibinyamafufu nk'ibijumba ndetse n'ibirayi, hakaba hahuriramo abantu benshi batandukanye baje gushaka serivisi zitandukanye mu by'imirire.

Ni imiti ikorwa na Forever, ikaba ivura indwara zitandukanye ndetse igafasha n'umubiri muri rusange. Harimo umuti bakora ufasha umuntu kwiyongera muri vitamine umubiri uba ukeneye, ndetse bikamurinda indwara zigiye zitandukanye.